Ni abantu benshi cyane bicaye munsi yihema bicaye ku ntebe zumweru imbere yabo hari agatambaro k'umuhondo n'ak'ubururu hari n'ibyatsi byiza cyane bicaye mu byatsi byiza cyane hari n'igiti .

Abantu benshi bahagaze kumurongo ni abantu bagaragara nkabayobozi inyuma bari munzu isa neza cyane inyuma yabo hari icyapa kiri mumabara yubururu cyandikijwe n'amagambo yumweru .

Inzu nini ikorerwamo inama irimo abantu bitabiriye inama, ifite ibikuta bisize amabara atandukanye, kimwe gisize ibara ry'umweru kiriho televiziyo ifite ibara ry'umukara, ikindi gifite ibara ry'umweru n'umutuku, hari n'abanyamakuru baje gufata amashusho.

Abayobozi bari mu nama irimo abazungu n'abirabura, imbere hicaye umukobwa wambaye amarinete n'agapira k'umukara, ari kumwe n'abagabo batatu, babiri b'abazungu n'undi mugabo umwe w'umwirabura.

Akazu gatanga serivise zo kubitsa no kubikuza, hari umugore uje kubitsa ufite urupapuro mu ntoki, n'undi mugore uri muri ako kazu, arimo gutanga serivise zo kubitsa no kubikuza.

Ahantu hari abantu benshi hari umuntu umwe uhahagaze yegamye ku giti yambaye ishati y'umukara n'ipantaro y'umweru, hari n'abandi bicaye ku ntebe n'umugabo umwe uhagaze ufite umutaka urimo amabara menshi, n'abagore bicaye hasi.

Imodoka nini y'ikigo cy'igihugu gishinzwe umutekano, iri mu mabara y'umukara n'umweru yanditseho amagambo yandikishijwe ibara y'umukara. Iruhande rwayo hari akandi kamodoka gatoya kari mw'ibara ry'umweru gafite ibirahure by'umukara.

Ifoto irimo amafoto atanu: abiri y'abagabo na tatu y'abagore, amafoto yose ariho ibendera ry'u Rwanda, umugabo umwe yambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru na karovati y'umutuku, undi yambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru.

Inzu z'umweru zifite amabati atukura, n'umuhanda urimo imodoka imwe n'abagenzi b'abanyamaguru bahetse ibikapu, umuhanda uteyeho indabyo.

Amabendera meza cyane ateye ahantu hari mu busitani, hari abantu benshi bambaye neza cyane, harimo n'abari gufotora bari iruhande rw'inzu nziza cyane isize amabara y'umweru isize irange ry'amabara y'umweru, ifite n'igisenge kiza. Ahantu hari ikirere kiza hateye n'ibiti byiza cyane.

Imodoka itwara abagenzi iri mu mabara y'umweru, irimo kugenda mu muhanda kandi irimo n'abantu n'ipironi ndende y'ibyuma itwara amasinga, n'umusozi mwiza uriho utayeho ibiti n'amatara ari kwaka mu muhanda.

Umuhanda w'umukara uhagazemo abagabo babiri, umwe uri gutambuka wambaye ishati y'umutuku n'ipantaro y'umweru n'undi mugabo wambaye ingofero y'umweru uhagaze uri kureba mu gipangu kiri imbere yiwe kirimo inzu ndende igeretse.